Ifoto iriho umugore n'umugabo n'abana babiri, iri kwamamaza ibigendanye n'ubwishingizi bw'ubuzima, uko wabikora ukanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego.

Icyapa kiriho umuntu bari gupfuka wakoze impanuka, hariho ni ubwishingizi buzwi nka Radiant, barimo kwamamaza ubwo bwishingizi.

Icyapa kinini kiriho ubwishingizi bw'ibihingwa, cyerekana ubwishingizi bugendanye n'ibihingwa kiriho ifoto y'umuceri weze.

Icyapa cyerekana kwamamaza icyo bita nka Radiyanti, ubwishingizi bujyanye n'ubworozi, kiriho inka, inkoko ndetse n'ingurube.

Umurwayi ari mu cyumba, umurwayi araryamye afite ikintu mu ijosi kinini, umuganga yambaye impuzangano y'umweru bisa nkaho afite ishusho runaka ari kumwereka.

Utwuma twabugenewe mu kumanika imyenda, cyangwa se kubika imyenda neza turiho imyenda iyo twakwita nk'imipira cyangwa amashati y'umukara ndetse n'andi y'amabara yandi atandukanye.

Iduka ricuruza inkweto z'amoko menshi, inkweto zifunze, inkweto zifunguye, inkweto ndende n'inkweto ngufi, inkweto z'abana n'inkweto z'abantu bakuru ndetse n'imyenda, yarimo amakanzu y'ubwoko bwinshi atandukanye.

Iduka ricuruza imyambaro y'abagabo, amashati y'amabara menshi ndetse n'amabara atandukanye, ahanitse ahantu habugenewe y'amaboko maremare.

Iduka ricuruza amakanzu, imitako ndetse n'ibitambaro by'abagore ndetse n'indi myenda igiye itandukanye, imbere hari agatebe kabugenewe mu kwicarwaho n'umucuruzi.

Iduka ririmo ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibirungo by'amoko menshi, amavuta y'ubuto, inyanya, imigati, amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Iduka ry'imyenda ricuruza imyenda myinshi itandukanye, imwe muri yo irazinze, indi imanitse ahabugenewe ku byuma byabugenewe, bigaragarako ari imyenda y'abagabo.

Iduka ricuruza amakanzu y'amoko menshi atandukanye y'abagore, rifite amarange y'umweru ndetse n'amakaro meza y'umweru, rifite n'ikirango cyanditseho icyo twakwita mu ndimi z'amahanga nka podium.

Iduka ririmo umukobwa wambaye ishati y'amaboko magufi y'umuhondo, n'ipantaro y'umweru. Ufite terefone mu ntoki bisa nk'aho acuruza imipira y'amaboko magufi ndetse n'mipira y'amaboko maremare.

Iduka ricuruza imyambaro y'abagore, harimo amapantaro, amakanzu y'ubwoko bwose ndetse ari ku bikoresho byabugenewe mu kwamamaza uko iyo myenda aba ari myiza.

Iduka ricuruza ibikapu by'amoko menshi, by'amabara atandukanye harimo ibikapu bito n'ibinini by'umukara n'ikigina ndetse n'iby'umweru biteretse ahantu ku meza.

Botike icuruza ibintu bigendanye n'ubugeni, ifoto irimo amafoto menshi agiye atandukanye, ifoto imwe harimo umuntu, indi harimo undi mutako w'ubundi bwoko, indi foto irimo inka z'inyambo, indi irimo abana, indi irimo umukeka.

Iduka riherereye ku muhanda, hariho imyenda itandukanye y'abagore, amakanzu y'amabara menshi ndetse n'amajipo, n'amapantaro hariho inyuma y'iyo myenda hariho igiti gifite amababi menshi ndetse n'umuntu uri gutambuka ajya kugura.

Inzu ndende igeretse, hirya ku ruhande hariho ibiti by'amoko atandukanye, imbere yaho haparitseho imodoka z'ubwoko bwinshi, harimo n'imodoka y'umukara iri ku ruhande.

Abagabo babiri banini bambaye amashati y'imweru, umwe ishati ye n'iy'amaboko maremare yakubye, undi ni ishati y'amaboko magufi, bari imbere y'imodoka ebyiri nini ziri mu bwoko bw'imodoka zitwara imizigo birasa nk'aho ari shyashya bari kuzamamaza.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka ebyiri, bigaragara ko bari kuzamamaza ari imodoka zikeneye kugurishwa ndetse kandi n'imodoka zo mu bwoko bw'imodoka nini zitwara ibintu.

Imodoka zo mu bwoko bwa vorukano ziparitse ku muhanda, imbere yazo hari abagabo babiri, umwe yambaye agapfukamunwa k'icyatsi, yambaye n'umupira w'ubururu n'undi wambaye agapfukamunwa k'icyatsi yambaye n'umupira w'icyatsi.

Abagabo n'abagore bicaye, abandi bahagaze, bambaye indorerwamo, ku meza hariho isabune yabugenewe, hanze haparitsweyo imodoka nini iri mu bwoko bw'imodoka nto, bisa nkaho bari kuganira ku mushinga runaka bungurana ibitekerezo.

Inyubako nini ifite ibikoresho by'ibyuma by'amoko atandukanye, iparitseho imodoka nshya, imwe y'umweru nindi y'umutuku bigaragara ko ari imodoka nshya ziri gukorwa zikeneye kugurishwa.

Icyumba kirimo imodoka z'ubwoko bwinshi zitandukanye, bigaragara ko ari imodoka nshya ziranguzwa cyangwa zigurishwa, hariho n'uburambe bwazo.

Umuntu uri kubara amafaranga y'inoti bigaragara nk'aho ari menshi cyane, iruhande rwe hari imashini yifashishwa mu kubara amafaranga yitwa mubazi.

Inzu cyangwa icyumba kirimo umugabo uri gukoresha mubazi bigaragarako ari kubikura amafaranga, hari n'amafaranga menshi agiye ari ku murongo, ari gukoresha imashini abikura amafaranga.

Inote ebyiri z'igihumbi zitandukanye, imwe ya mbere iriho umuntu uri guhamiriza kandi hariho n'ibintu bigendanye n'umuco nk'inzu mberabyombi iriho n'isinya, iya kabiri iriho inyamaswa iri kurira iri mu ishyamba gusa.

Amafaranga y'inoti, inote ebyiri za magana atanu, imwe iriho isinya isinyeho, indi iriho abana batatu ndetse iya mbere iriho n'ingagi, iya kabiri iriho abana batatu bonyine.

Inoti ebyiri zitandukanye z'ibihumbi bitanu, inote imwe, iriho umugore wambaye amasaro mu ijosi ndetse hariho n'abantu bari gusarura bigaragara ko bari gusarura icyayi, indi iriho igitoki n'amazi ndetse n'imisozi.

Amafaranga menshi y'amoko menshi atandukanye, arimo ibiceri, ndetse n'inoti nyinshi, iruhande rwayo hari imashini izwi nka mubazi, ikoreshwa mu kubara amafaranga.

Isoko ririmo umusore n'umugore, umugore bisa nk'aho aje kugura ibicuruzwa runaka, umugabo ni umucuruzi w'aho ari kumwereka ibicuruzwa afite.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibiraha, amandazi, amata, biswi, imitobe y'ubwoko bwinshi itandukanye, iy'amaronji, imitobe y'imyembe ndetse n'amazi n'ibindi bitandukanye.

Abasore babiri n'umukobwa umwe, bicaye ahantu mu ntebe z'umweru, hari ameza, bafite ibikombe mu ntoki, umusore umwe ari kunywa amata, undi mukobwa na we ari guterura kugira anywe amata, imbere yabo kandi hariho amajagi arimo amata.

Umuntu wicaye mu cyumba, ahantu hari icyitwa nka firigo, hari ameza, ateretseho igikombe cy'amata, ndetse hariho n'isahani iriho ibyo kurya.

Inzu y'ubucuruzi irimo umugabo, iruhande rwe hariho icyuma gikoreshwa mu kotsa ibintu bigiye bitandukanye, harimo imitobe itandukanye, harimo biswi, harimo amata, amandazi, harimo bombo ndetse n'ameza ari imbere ateretseho ijagi.

Indobo ebyiri; imwe y'amandazi, indi irimo ibiraha, hejuru y'indobo imwe hari igikoresho cyabugenewe mu kwarura, ndetse hirya y'aho hariho umuntu uri gutambuka wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, hirya imbere ye, hari ibiti byinshi.

Inzu y'ubucuruzi irimo amacupa y'amazi, amanini n'amato, irimo n'abana batatu ndetse n'umugore umwe bisa nk'aho bari kugura amazi.

Inzu igurishirizwamo amata irimo, ibikombe by'amoko menshi atandukanye, irimo umugabo wambaye umupira w'umweru, ari kubunganiza amata mu gikombe akoresheje ijagi.

Icyumba kirimo inkongoro z'amata ndetse n'umukobwa wambaye agapira k'umweru, harimo amakaro y'umweru, ku meza hariho ijagi.

Inzu y'amakaro y'umweru, hagati mu nzu harimo umuntu uri gukoropa ndetse haparitsemo igare rya siporo, imbere ku muryango hariho moto, hirya gato hari abantu, hariho n'iindi gare ririho igicuba.

Isoko rigendanye no kugurisha amagi ririho ikirango kiriho amagi ndetse n'ibikoresho byabugenewe bitwara amagi n'impuzankano iriho aho hantu, aho hakorerwa ko ari Mayange Bugesera ndetse na nimero zabo ubashaka.

Ku ikusanyirizo ry'amata hari ibicuba byinshi bitandukanye, haribagabo babiri umwe wicaye usa nkaho ari koza igicuba, undi usa nkaho ari kugiterura, umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa byinshi nk'amandazi, amata, biswi, amazi ndetse n'imitobe y'amoko menshi atandukanye, hirya gato hariho ikigega kifashishwa mu kubika ibicuruzwa byabo cy'ubururu, hejuru y'imeza hariho indobo y'umweru.

Abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'umukara n'undi wambaye umupira w'umweru, bari mu cyumba, imbere yabo hari ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa, amaterefone ndetse n'ibindi, bari kuganira ku mafoto y'ibintu bitandukanye.

Icyapa cyiriho serivise za airtel uko wakwishyura umuriro ukoresheje telefone, hariho umusore wambaye umupira w'umukara, urimo gutera ipasi ishati irimo imirongo ihagaze.

Amafaranga y'inote nyinshi cyane ndetse n'andi y'ibiceri birasa nk'aho ahantu ari hakorerwa ibigendanye no kuvunja no kuvunjisha amafaranga.

Inzu nini igeretse yegereye ku muhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye zo mu bwoko bw'imodoka nto ndetse imbere yaho hari amatara maremare yabugenewe acana mu muhanda, iyo nzu bigaragara ko ari inzu ikorerwamo ivunjisha ry'amafaranga.

Inzu irimo amakaro y'umweru, imeza y'ikirahure, intebe zifite imisego y'ikigina z'ibiti.

Icyumba kirimo imbaho ndetse n'ibitambaro by'amoko menshi bitandukanye, harimo umugabo wicaye ku mbaho zirunze ahantu hamwe.

Ahantu habugenewe hakorerwa intebe z'ubwoko butandukanye, haparitse imodoka ifite ibara ry'ubururu, hari umugabo umwe uhagaze uri guseka ufite igikoresho mu ntoki.

Inzu nini irimo amakaro y'umukara, irimo ibishushanyo bitandukanye, irimo intebe nziza zifite imisego y'ikigina, ndetse n'indi mitako y'amoko menshi isizemo irangi ry'umweru.

Icyumba kirimo intebe zitandukanye, izo twita nk'intebe z'imisego, inzu irimo amakaro y'umukara, ndetse n'umweru, ndetse n'andi yijimye, izo ntebe zifite imyenda, cyangwa se imisego ifite ibara ry'umukara.

Intebe zikozwe mu mbaho ziteye hanze, zikoreshwa mu buryo iyo abantu bagiye gufata amafunguro, ziteye imbere y'umuryango ku nzu iriho amakaro.

Ahantu habugenewe hakorerwa intebe hari amarido n'ibindi bikoresho bitandukanye, hari abagabo batatu umwe wambaye umupira w'umukara, undi yambaye impuzankano y'ikigina, undi ufite ibikoresho byabugenewe mu gukoresha akora intebe wambaye ingofero y'umutuku.

Inzu nini iriho ibikoresho nk'intebe, iruhande rwayo hariho ingemwe nyinshi, n'indabyo z'amoko menshi ndetse n'ubwogero bifite amazi meza.

Inyubako igeretse ku ruhande hari inzu ntoya itageretse, imbere y'aho hari jaride irimo indabo z'amoko menshi, irimo n'ibiti n'umugezi, ndetse n'indi mitako itandukanye.

Hoteri nini cyane iri ahantu hegeranye n'ubwogero bufite ahantu hari imitaka igiye itandukanye igiye iteyemo intebe z'amoko menshi.

Umuhanda munini wa kaburimbo, uriho inzu nini igeretse, iriho amarangi y'umuhondo, hirya gato hari itara rimurika cyane, ndetse hari n'indabo hasi ziteyeho n'amoko menshi.

Hoteli igeretse kenshi, ifite ubwogero hanze, iriho amahema, ifite intebe nziza z'umweru ndetse n'izindi z'ubundi bwoko butandukanye.

Hoteri iri ahantu ifite imitaka iri hanze, hariho intebe zifite irangi ry'umukara ndetse n'ameza afite irangi ry'umukara ku mpande hejuru ari umweru, hirya yaho hari ishyamba.

Hoteri ifite ubwogero ndetse n'ahandi hantu hateye intebe, ndetse n'amahema atandukanye, iruhande rwayo hari jaride zitandukanye zirimo indabo z'amoko menshi, ndetse n'ibiti bitandukanye.

Inyubako ndende iriho amatara atatu, abiri y'imbere, imbere y'idirishya, irindi riri imbere y'umuryango irindi riri hirya ku ruhande ahantu hateye ibiti, imbere hateye intebe nyinshi ndetse hari n'akajaride imbere y'umuryango.

Ibiro by'ubwishingizi, bifite inyubako irimo amarangi y'umweru ndetse n'amakaro y'umweru, harimo n'intebe, hirya ku ruhande haparitse imodoka nini y'umweru.

Icyumba kirimo abagabo babiri bambaye amakote ndetse n'umudamu umwe wambaye ishati y'umukara n'agapfukamu k'umukara, abo bagabo nabo bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, bari kwerekana ikarita igendanye n'ubwishingizi.

Icyumba kinini kirimo intebe z'ubwoko bwinshi butandukanye, kirimo n'abantu b'abanyamahanga bafite imashini imbere yabo ndetse bigaragara ko imbere hari ahantu habugenewe ho kwicarwamo n'abaza babagana, ni ikigo cy'ubwishingizi.

Ikigo cy'ubwishingizi gifite icyumba gikoreramo, harimo umukobwa wambaye umupira w'umweru wicaye imbere ya mudasobwa yo gutanga serivisi ndetse kandi iyo nzu irimo amafoto atandukanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Icyumba kirimo intebe zitandukanye z'amoko menshi, ifite n'ameza, ariho itara ry'umweru rifite akuma karekare ndetse icyumba kirimo n'amakaro.

Inzu nini y'amakaro y'umweru, iri kwamamaza ibigendanye n'ubwishingizi, ifite imitako y'amoko atandukanye, imbere hateyeho indabo, hirya gato hariho ibyapa bibiri, kimwe gishushanyijeho umutaka urimo abantu batatu ndetse n'ibindi bintu.

Icyumba kinini kirimo intebe z'ubwoko bwinshi ndetse n'imitako bigaragarako ari icyumba gikorerwamo ibijyanye n'ubwishingizi, hari icyapa kinini cyanditseho ikizwi nka Saniramu.

Sare nini size irangi ry'umweru, irimo imitako myinshi y'amabara menshi atandukanye, harimo imitako y'umweru n'imitako y'ubururu ndetse n'izindi ndabo, ifite intebe ebyiri ku ruhande rumwe n'izindi ebyiri ku rundi ruhande.

Icyapa kinini kiriho umugabo munini wambaye ikote, ufite amafaranga mu ntoki bigaragara ko ari kwamamaza ibigendanye n'inguzanyo ayendemu banke itanga, uko ikora n'inguzanyo watsindira cyangwa baguha mu buryo bworoshye.

Abagore n'abagabo bamwe muri bo bahagaze abandi bicaye babakozi bari kwaka serivisi muri banki, babitsa banabikuza, harimo umugabo wambaye ikoti uri kureba imbere bisa nk'aho hari ibintu arangariyemo ari gukurikirana.

Icyapa kinini kiriho umusore wambaye umupira w'ubururu icyapa nacyo kiriho ibara ry'ubururu cyanditswemo umubare kane umusore ari kwerekana no kwamamaza ibigendanye na BK.

Umukobwa uri mu modoka utwaye imodoka n'umusore uri hanze wambaye indorerwamo uri kumusuhuza, hejuru hari icyapa cyanditseho wayitunga nawe, bisa nkaho ari banki nyafurika bari kwamamaza uko wabona inguzanyo, wakiguriza, ukanabitsa kugira ngo nawe ubashe gutunga imodoka.

Banki izwi nka KCB iriho abantu batatu abagabo babiri bari inyuma n'umugore umwe, umugabo umwe w'inyuma yambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro y'ubururu, undi mugabo wo hagati yambaye ishati yazinze amaboko n'ipantaro y'umukara ndetse n'umudamu umwe wambaye ipantaro y'umukara n'ishati ndende y'ubururu.

Isoko ry'imboga harimo ndetse n'imbuto harimo amadegede, amashu, karoti, intoryi, ibiririganya, imboga za dodo ndetse n'urusenda.

Isoko ry'ibiribwa ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ibiriringanya, harimo ibitunguru, inyanya, karoti, inoryi, ibishyimbo ndetse n'amashaza, harimo abacuruzi bicaye bategereje abaguzi baza kubagurira.

Isoko ry'imyenda riri ahantu rifite amabati ashaje, imbere hariho abagabo bane n'undi wa gatanu ibiganza bye bisa nkaho ari byo biri kugaragara, bisa nkaho babiri bari kugenda abandi bategereza abaguzi.

Isoko rigari rinini ririmo abantu benshi batandukanye urujya n'uruza rw'abantu, bari kugura ibintu bigiye bitandukanye by'ibiribwa ndetse n'ibindi.

Isoko ririmo abantu batandukanye, abagore babiri bicaye n'undi umwe uhagaze uje guhaha n'amabase atatu imbere yabo, imwe irimo avoka, indi irimo imineke, indi irimo intoryi.

Isoko rinini rifite inyubako igeretse ndende cyane, imbere yaho hari abantu benshi, hari imodoka ziri gupakira zipakurura ibicuruzwa ndetse n'abantu benshi bavuye kubirangura.

Isoko rinini cyane, inyubako nini igeretse kenshi, imbere yaho hari abamotari benshi ndetse n'imodoka nyinshi z'urujya n'uruza, hari n'abantu bari kubisikana bigaragara ko bamwe bajya mu isoko abandi bavayo.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo urusenda rw'amoko menshi ruzwi nka piripiri, uruzwi nk'urusenda ruto rwa kizungu ndetse n'urunyarwanda ndetse kandi harimo n'imiteja n'intoki n'ibindi.

Inzu nini igeretse, iruhande rwaho hari umuhanda wa kaburimbo, bigaragara ko iyo nzu ari iy'ubucuruzi ari isoko, ku muhanda hariho amatara menshi atandukanye.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ririmo ibiseke, inkangara, imitako y'ubwoko bwinshi, ibikapu, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye biri mu bugeni, Nyarwanda.

isoko rigari ririmo ibintu byinshi bitandukanye harimo inkweto ibikapu by'imikara, by'umutuku ndetse n'andi mabara agiye atandukanye hahagazemo umusore wambaye ikoti ry'umukara n'inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara.

Isoko rinini cyane rigaragara nk'aho rikirimo kubakwa, hirya y'aho rifite ahantu habugenewe bisa nkaho hagiye guterwa indabo cyangwa ubusitani, hirya gato na none hari umukobwa wambaye ijipo y'umweru ndetse n'umupira w'umukara, uri gutambuka.

Isoko ry'imboga ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi, harimo inyanya, amashu, harimo imiteja, pavuro, harimo intoryi, amakaroni, amavuta yo guteka, ndetse n'ibindi.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye by'amoko menshi, harimo imbuto, harimo ibyo kunywa, harimo ibyo kurya, harimo ibintu byinshi bitandukanye nk'amata, harimo imitobe ndetse n'ibindi by'amoko menshi.

Isoko ry'ibiribwa birimo inanasi, imineke, amapapayi, amacunga, ibinyomoro ndetse n'ibindi by'amoko menshi harimo nk'amadegede n'ibindi.

Isoko ry'ibiribwa, ririmo ibintu bitandukanye, birimo imiteja, intoryi, ibishyimbo, karoti, pavuro, inyanya, ibitunguru ririmo abagabo babiri, umwe uhagaze uri gukora ku nyanya n'undi wicaye imbere ya karoti ndetse na pavuro n'umudamu umwe wambaye gasengeri k'umutuku.

Isoko ry'ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'ibiribwa, harimo ibirayi, harimo ibitoki, harimo udufuka bakoresha bahaha, harimo n'abacuruzi benshi bagiye batandukanye.

Isoko rinini ririmo abagore bambaye impuzankano, barimo gucuruza insenda, ibiririganya, amadegede ndetse n'ibindi bitandukanye.

Isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye, riparitseho amamodoka, imodoka ebyiri, ndetse na moto nyinshi, imbere hari abantu benshi b'urujya n'uruza, batandukanye.

Urubyiruko ruteraniye ahantu harikorerwa serivisi zigendanye no kubitsa no kubikura amafaranga na MTN, hari abakozi babugenewe bambaye imipira y'imyeru, ifite ibara ry'umuhondo, ndetse bari mu matente y'umuhondo, bari kubasobanurira uko bikorwa.

Umumotari uhetse ibyo kurya kuri moto ndetse uri n'umukozi wa MTN, wambaye agapfukamunwa n'impuzankano, uri kumubikurira.

Inzu igeretse ya Eyateri itangirwaho serivisi za Eyateri irimo abantu bambaye imyenda, imipira y'imituku n'abandi bambaye amashati y'imyeru, bari gutanga serivise zigendanye na Eyateri.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda y'imihondo, bahagararanye n'umumotari, bari kumubwira ubwe yakishyura hakoresheje momo, agiye akoresheje telefone ye.

Urubyiruko ruteraniye ahantu hamwe, hari abakozi bambaye impuzankano z'umweru ndetse hari n'amatente cyangwa amahema y'imihondo, ari guhabwa serivisi zigendanye no kubitsa no kubikura basobanurirwa uko bikora.

Icyapa kiriho uburyo wakwishyura ukoresheje akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri, umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri zeru, karindwi, icyenda, gatanu, gatanu, karindwi, umunani, urwego. Uko wakwiishyura ukoresheje kode.

Umukobwa w'imibiri yombi wambaye amasaro ku kuboko, ufite telefone uri kurebamo kubijyanye no kubitsa no kubikura amafaranga.

Akazu ka MTN k' umuhondo gahagazeho umugabo umwe, bigaragara ko aje gushaka serivisi zigendanye na MTN zo kubitsa no kubikura, bigaragara ko ategereje umukozi wa MTN uza kumufasha muri izo serivisi.

Urubyiruko rutandukanye ruri mu mahema y'umuhondo, harimo abantu bambaye impuzangano z'umuhondo ndetse n'ingofero z'umuhondo, bari kwereka abaje babagana uko wabitsa ukanabikura amafaranga, hirya yaho hari ameza ariho impano.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rw'umuhanda, hari akazu ka MTN ndetse n'ibiti bitandukanye, kanditseho ngo kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego, gasa umuhondo.

Abamotari bari kuri moto, inyuma kuri moto zabo hariho ibikoresho byabugenewe, mu gutwara ibicuruzwa, byaguzwe ku ikoranabuhanga, bicaye kuri moto, barindiriye ko babahamagara, bakaboherereza ibyo bicuruzwa baguze.

Icyapa kinini cyanditseho isoko rya Kimironko, gishushanyijeho ibitoki, inyanya, karoti, amashu, ibishyimbo, inanasi, amavuta ndetse n'ibindi bitandukanye, cyerekana ko bacuruza ibicuruzwa kuri mudasobwa bari kubyamamaza.

Umumotari uri kuri moto ihetse ikarito nini yanditseho gura ibikoresho by'isuku n'ubuzima, akanyenyeri ijana, ikenda rimwe rimwe urwego, ndetse na wawawa akadomo kasha akadomo rwa. Munsi yaho nanone handitseho ikenda rimwe rimwe, rimwe bisa nkaho ari ubucuruzi bwo kuri mudasobwa.

Inzu irimo imyenda igiye itandukanye, n'ubundi bucuruzi, yitwa nka House of Tayo, ikoreshwa mu buryo bwo kugura no kugurisha, mu buryo bw'ikoranabuhanga, harimo umusore, uhagazemo imbere mu nzu, uri kurebera mu idirishya.

Umugabo umwe uhagaze, ufite igikapu mu mugongo cyanditseho vuba, bigaragara ko ari kwamamaza ibigendanye n'ubucuruzi, bwo ku ikoranabuhanga, afite n'akagare ka siporo.

Icyapa kinini gishushanyijeho ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ibyo kurya, harimo nk'igitoki, inyanya, karoti, ibitunguru, amashu, inanasi ndetse n'ifu y'amoko menshi, bigaragara ko kiri kwamamaza ubucuruzi bukorerwa kuri mudasobwa.

Icyapa gishushanyijeho amacupa arimo amavuta ndetse hariho n'umukobwa, bigaragara ko ari ubucuruzi bari kwamamaza bukorerwa kuri mudasobwa.

Inzu nini ikeneye kugurishwa amafaranga magana abiri mirongo ine miliyoni ihererereye i Kigali mu Rwanda, ifite amarange y'umweru ndetse hanze hariho gipangu kiriho indabo z'amako menshi atandukanye.

Umugabo n'umugore bahagaze, umugore wambaye ijipo ndetse n'ishati y'amabara, umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantalo y'umukara, umugabo ari kwereka umugore ukuntu aho hantu hari intebe nziza, ndetse ari n'ahantu heza, biragaragara ko ari kumwamamariza icyo cyumba, cyangwa izo ntebe zirimo n'ibyo bikoresho bindi.

Inzu irimo amakaro y'umweru n'amarangi y'umweru ndetse n'amatara harimo n'intebe z'imisego zirimo imisego y'umweruru zijyiye zitandukanye.

Icyumba kigari kirimo intebe n'ameza n'akabati, harimo intebe imwe irimo imisego y'ikigina n'indi ntebe irimo imisego y'umweru ndetse n'amakaro y'umweru n'umukara...

Inzu nini cyane iriho amarangi meza y'umweru ndetse n'umukara, ifite amakaro meza y'umweru igeretse iherereye hafi ya Kanombe hafi y'ikibuga cy'indege i Kigali, birasa nkaho bari kuyamamaza.

Inzu nini, irimo amakaro, irimo ubwogero, irimo ibyumba byinshi bitandukanye, ifite inzugi nziza ndetse n'amarangi meza n'amatara, igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu, iherereye i Kigali, mu Rwanda.

Inzu iherereye Kabeza, ifite inzugi z'ikigina, ifite amarangi meza y'umuhondo, ifite amakaro y'umweru, ikeneye kugurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu, iherereye muri Kigali Rwanda Kabeza.

Inzu ikodeshwa, iherereye Kigali kibagabaga ,ifite ibyumba bitanu, irimo amakaro, irimo amarangi meza, ndetse n'inzugi nziza zisa neza.

Icyapa kiriho kwerekana inzu ikodeshwa, iherereye i Remera hafi ya sitade, bagaragaza ibyumba birimo ndetse n'uburyo ari nziza, ifite hanze igipangu ndetse kiriho amarange y'umukara.

Inzu nini igeretse iriho amarange y'umweru, bigaragara ko iri kwamamazwa iherereye Kanombe, ifite ibitanda bitanu, ubwogero bune, ndetse n'ibindi biyigize byiza.

Umuhanda munini w'igitaka uriho inzu zitandukanye, ifite ikigega hanze cy'umukara, bigaragara ko hari inzu iri kugurishwa, amafaranga bagaragaje hejuru ku cyapa.

Inzu nini igeretse, iherereye i Kanombe, ifite ibitanda bibiri, ifite ubwogero bubiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu nini igeretse ikodeshwa ifite ibyumba bitatu byiza cyane, iherereye Rebero, wayibona ku madorari ijana byoroshye.

Inzu nini iriho igipangu kinini ndetse iherereye Kigali Kanombe, iri ku isoko ikeneye kugurishwa irimo kwamamazwa.

Inzu nini iriho amarange y'umweru n'amakaro, iherereye mu mujyi wa Kigali Kimironko, ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri, izajya ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi.

Isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye bigendanye n'ibyo kurya, harimo inyanya, ibitunguru, pavuro, harimo intoryi, harimo imiteja ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo umukobwa uje kubigura.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye by'amoko menshi harimo imitobe, harimo makaroni, harimo amavuta yo kwisiga, harimo movuta yo kurya n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo inkweto z'ubwoko bwinshi, hari n'iz'abana n'iz'abakuru ndetse n'imyambaro y'amakanzu itandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bugendanye n'ubugeni, irimo imitako myiza itandukanye, irimo intebe nziza z'amabara menshi, intebe z'umuhondo, iz'umukara ndetse n'icyatsi, harimo ururabo rwiza ruri mu nzu, n'abantu bambaye impuzangano z'umuhondo.

Icyumba kinini kirimo intebe n'ameza ndetse n'umukobwa umwe uhagaze, imbere ya mashine, uri gusaba serivisi runaka, ufite imisatsi miremire, uri kureba muri mashine.

Umuhanda wa kaburimbo uri ahantu ku nkengero hari ibiti ndetse n'icyapa kiyobora abantu ahazwi nko kuri shike i Remera.

Isoko ririmo ibinyobwa bitandukanye nk'imitobe y'ubwoko bwose, inanasi y'amacunga, amata, biswikwi ndetse n'ibindi bintu bike bitandukanye.

Isoko riri mu nyubako igeretse inshuro nyinshi, ricuruza ibicuruzwa bitandukanye nk'amakanzu y'abagore ndetse n'indi myenda y'ubundi bwoko, hanakorerwa imisatsi y'abagore.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo n'umucuruzwa n'umusore, wicaye wambaye umupira w'umukara, ufite telefone mu ntoki, ufite n'udufashakumva mu matwi, ucururuza imyenda y'abagore y'amabara atandukanye.

Iduka ririmo umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, ufite amvelope mu ntoki ariko yihereza umuguzi, wambaye ishati y'umweru, ari gucuruza bigaragara ko ari iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye.

Isoko ririmo ibintu byinshi bitandukanye, ririmo abaguzi n'abacuruzi, ririmo inkweto z'abagabo no mu myenda, amashati ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inzu isize amarange y'umweru irimo abantu benshi batandukanye, ifite amakaro y'umweru ndetse n'umukara, irimo abasore, abagore ndetse n'abagabo bigaragara ko hakorerwamo ubucuruzi.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye by'uburyo bwose, nka mashine, imyambaro, ririmo n'abakozi babugenewe bambaye impuzankano z'ubururu.

Icyumba kirimo umusore, uhagaze wambaye, umupira w'umweru uhetse igikapu, ipantaro y'umukara, ndetse ku ruhande rwe hariho inkweto z'umukara, ziriho ibara ry'umuhondo, yambaye n'ingofero y'umutuku, bisa nkaho imbere ye ari kureba umupira, ku ruhande rwaho hariho n'imyenda myinshi itandukanye y'amoko menshi.

Abantu benshi, biganjemo urubyiruko, bamwe bahagaze, abandi bicaye ndetse n'abana, bari mu gikorwa cyo kwamamaza Ejo heza, hari umugabo wambaye umupira w'ubururu, ufite indangururamajwi bisa nk'aho ari gutanga ikiganiro kubijyanye na Ejo heza.

Abagore n'abagabo bambaye udupfukamunwa ndetse n'abana bari ahantu hatangirwa serivisi, abagore babiri, umwe afite mudasobwa n'urupapuro, ari gushyiramo imyirondoro y'umuhagaze imbere, ari kumuha serivisi runaka. Abandi na bo baricaye, bararindiriye.

Abagabo n'abagore bicaye, bafite impapuro mu ntoki, abandi bafite ibikapu mu ntoki, bigaragara ko bari kwa muganga, bakeneye gufashwa ndetse no kwitabwaho n'abaza kubakira.

Umugore n'umugabo bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo hari mudasobwa ndetse hari n'amacupa y'amazi n'agatangazamajwi, bari kuganira, hagati yabo harimo urupapuro rwanditseho RSSB.

Ikirango cyerekana uko wakwizigamira muri ejo heza ukoresheje terefone yawe, gifite ibara ry'ubururu ndetse n'andi mabara agiye kitandukanye.

Ni isoko ririmo abantu bagiye batandukanye, ririmo umusore ufite amasorori mu ntoki, bisa nkaho ari kuyarangura, ndetse kandi ririmo inkweto z'ubwoko bwinshi zitandukanye.

Isoko rigari ririmo ibinyobwa by'amoko menshi, harimo imitobe y'inanasi, imitobe y'amacunga ndetse n'iyindi y'ubwoko butandukanye, harimo amata, harimo amabiswi ndetse n'ibindi.

Isoko ry'ubucuruzi rigari ririmo bintu byinshi bitandukanye, amakaroni, amavuta yo kwisiga, amavuta yo guteka, ririmo umuceri, ririmo imbuto z'amoko menshi zitandukanye, ririmo amabiswi ririmo imitobe itandukanye.

Isoko rinini rigeretse, ririmo ibicuruzwa bitandukanye, imbere hari kandagira ukarabe, ndetse haparitse imodoka y'umukara, rizwiho nko kwitwa niga Mega supa maketi.

Isoko rigari rinini ricuruza ibigendanye n'ikoranabuhanga, nka mudasobwa, mubazi, telefone n'izindi mudasobwa zikoreshwa mu bindi bitandukanye.

Isoko rigari rinini ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo biswi, harimo imiti y'amenyo, harimo imiti y'inkweto, harimo ibindi byo kurya byinshi bitandukanye.

Isoko rinini ririmo abasore bari guhahamo, ririmo amoko menshi atandukanye y'ibiribwa ama biswi, makaroni, umuceri, amavuta y'ubuto, amavuta yo kwisiga, bombo z'ubwoko bwinshi ndetse n'imitobe itandukanye.

Isoko rinini ry'ibicuruzwa byinshi bitandukanye by'amoko menshi, harimo amacunga, harimo imitobe y'inanasi, harimo biswi, harimo bombo, harimo imiceri, harimo ibintu byinshi bitandukanye, n'abantu benshi, b'abaguzi bari kugura.

Isoko rinini rikaba ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'amagi, biswi, ibyo kunywa, amata, harimo amata, imitobe y'amoko menshi, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byinshi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'imiceri, amasabune, ibikoresho by'amasuku bikoreshwa isuku, ndetse n'ibyo twakwita nk'amakaroni, n'ibindi byinshi bitandukanye.

Isoko rinini ririmo umusore wambaye umupira w'umukara uteruye icyuma cy'ikoranabuhanga ndetse muri iryo soko harimo ibinyobwa bitandukanye, imitobe itandukanye y'ubwoko bwinshi n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Isoko rinini rigari ririmo amakaro y'umweru n'amatara manini amurika hose, ririmo imitobe y'ubwoko bwinshi nk'inanasi, amaronji, amacunga, imyembe, ririmo na biswi z'ubwoko butandukanye harimo nk'akararabo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Isoko rinini ririmo umusore munini wambaye umupira w'umukara, wambaye n'isaha, uri gutangarira ibintu cyangwa ibicuruzwa biri muri iryo duka, harimo amamashini, amaji, indabo, amata n'ibindi bigiye bitandukanye uri kugura.